Amashusho atandukanye, hari ay'inyamaswa z'ubwoko butandukanye, kandi hari n'amabara. Aya mashusho afasha abarimu kwigisha abana amasomo.

Amashusho abarimu bifashisha basobanurira abana biga mu mashuri mato kongera ubumenyi, aya mashusho aragaragaraho abanyeshuri ndetse bari hamwe n'abarimu.

Inyubako zibakishijwe n'amatafari ahiye, inyuma y'izo nyubako hari ibiti, hari uruzitiro rukikije izi nyubako rwubakishije ibyuma, izi nyubako kandi ziri ku muhanda w'igitaka birasa naho ariho abanyeshuri bigira.

Ikigo cy'amashuri y'abana bato handitseho ngo Nyagatare modani sukuru, hari abana bambaye impuzankano, hari ikibuga ndetse hateye n'indabyo.

Ishuri ry'inshuke abana bigiramo bifite imiryango ibiri, hari ikibuga bakiniramo bashushanyijeho amashusho atandukanye afasha abarimu kwigisha abo bana.

Ibikoresho byifashishwa ku ishuri mu kwiga amasomo atandukanye. Harimo ibyifashishwa mu gushushanya ndetse n'ibindi byifashishwa mu isomo ry'imibare kandi ibi bifasha abanyeshuri kumenya ndetse no gusobanukirwa byinshi.

Igipupe cyambaye ingofero y'mutuku, iki gipupe cyifashishwa n'abarimu iyo bari kwigisha abana b'inshuke, kirembera abana, gituma batarira, gituma batagira ibindi bahugiramo bibi bakaba bari hamwe nacyo.

Ibikoresho, abarimu bifashisha, bagira ngo bigishe abanyeshuri b'incuke. Harimo amabara atandukanye, hakabamo inyuguti ndetse n'inyajwi, aya mabara afasha abarimu kwigisha abanyeshuri amabara.

Ishusho igaragaza abana bicaye bambaye imyenda y'ishuri bari gushushanya, handitseho gusiga amabara mu ndabo, bari gusiga amabara muri izi ndabo bashushanyije.

Amashusho, afasha abarimu kwigisha abana biga mu mashuri y'incuke kumenya, byinshi. Aya mashusho barayifashisha kugira ngo, barusheho kongera uburezi, bw'abana b'incuke.

Aha ni ahantu abana bato bigira, bahererwa uburezi, hari haragaragara udusimba, ahantu bifashisha bari kugishiriza, hari ama esikariye abana banyuraho bari kujya mu ishuri kugira ngo batabasha kugwa.

Ikigo cy'amashuri afite imiryango myinshi, inyuma y'ayo mashuri hari ibiti biyakikije, imbere kandi hari ikibuga cyubatswe na sima.

Ikirango k'ishuri cyanditsweho ngo" Groupe sScolaire Rubagabaga, Nyagatare District , Education is Wealth". Iki kirango bagishyira ku mpuzankano z'abanyeshuri.

Amashusho agaragaza abana barimo gukora ibikoresho bitandukanye twifashisha mu buzima bwa buri munsi, ibi bifasha abarimu kwigisha abanyeshuri gukora bimwe muri ibi bikoresho.

Amashushoyo agaragaza abanyeshuri bicaye, imbere y'abo bafite ibishushanyo bari gushushanya indabo, hari amagambo yanditse ngo gusiga amabara mu ndabo, imyaka zeru gugara kuri gatatu.

Amashusho agaragaza ibikoresho abarimu bifashisha bigisha abanyeshuri kugira ngo bafate neza amasomo yabo, urugero nk'imibare hari kuva kuri rimwe kugera ku icumi, hari n'ibindi bikoresho bifashisha bakoresha uburyo bwinshi bwo kubara.

Ibikoresho by'amoko atandukanye byifashishwa ku ishuri mu kwiga amasomo atandukanye. Hari ibyifashishwa mu isomo ry'imibare ndetse hari n'ibyifashishwa mu gushushanya.

Inyubako iriho ubusitani bw'indabo ndetse n'ibiti bigiye bifite amoko atandukanye, birasa n'aho ari ikigo k'ishuri, imbere y'iyi nyubako hari icyapa cyanditseho indangagaciro.

Ikigo cy'amashuri kiri mu gipangu. Inyuma y'amashuri haparitse imodoka ndetse na moto. Hari n'abantu bicaye kuri ayo mashuri. Hirya y'icyo kigo kandi harimo n'ibiti.

Uruziga rurimo amabara atandukanye afasha abarimu kwigisha ,abana bakiri mu mashuri mato kumenya amabara ,Harimo; icyatsi, umuhondo ,ubururu ,umutuku, n'andi mabara menshi atandukanye.

Ibikoresho abarimu bo mu mashuri abanza bifashisha bagira ngo bigishe abana isomo ry'imibare, bigaragaza imibare kuva ku mubare wa mbere, kugeza ku wa cyenda ndetse hari n'ubukombe buririmo amabara atandukanye.

Ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu kwiga harimo ibyo bifashisha baca imirongo, harimo ndetse amakaramu y'ibiti bifashisha bari gushushanya ndetse hari n'ibyo bifashisha bari guca ibiziga, ibi babyifashisha iyo bari kwiga isomo ry'Imibare.

Ibikoresho abarimu bifashisha kugira ngo bigishe abana amasomo atandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare ndetse hakabaho n'icyapa cyanditseho inyuguti zitandukanye, ibi bifasha abanyeshuri kumenya byinshi.

Igipangu kirimo inyubako, inyuma y'icyo gipangu hari ibiti by'amoko atandukanye, iki gipangu kandi hari icyapa cyanditsweho ngo'' igororero ry'abana rya Nyagatare''.

Ibikoresho by'amoko atandukanye byifashishwa mu burezi. Ibi bikoresho bifasha abarezi kwigisha abanyeshuri amasomo yabo mu buryo bwumvikana.

Imbonerahamwe irimo imibare kuva ku mubare wa mbere kugera ku wa cumi, iyi mbonerahamwe ifasha abarimu kwigisha abana bakiri bato kubara imibare neza.

Ibikoresho byifashishwa ku ishuri, harimo ibitabo amarati, amakaramu y'igiti ndetse n'ibyo bifashisha abashushanya. Ibi bifasha abanyeshuri kwiga neza kandi bagasobanukirwa byinshi.

Abana bari mu ishuri bari kwandika ku kibaho cyifashishwa mu kwiga. Abo bana kandi bari kwandika bapfukamye birasa naho bari mu gihano.

Mu bikoresho byifashishwa ku ishuri iyo barimo kwiga, harimo ibyifashishwa mu guca imirongo ndetse n'ibyifashishwa mu guca ibiziga, hari kandi n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare, harimo amakaramu y'igiti, agasisho, amarati, ndetse n'ibikoresho bifashisha mu guca uruziga, bifasha abanyeshuri kumva neza isomo ry'imibare.

Ishusho iriho abana babiri, iri shusho irerekana ikiyaga r'ukuntu amazi ari gutemba, mo hagati y'ayo mazi ari gutemba harimo indi misozi, ibi bifasha abana kongera ubumenyi ku bijyanye n'ibiyaga ndetse n'imisozi mu gihugu cyacu.

Ishuri harimo abanyeshuri bari mu matsinda, imbere yabo harimo umwarimu abo banyeshuri bamukurikiye imbere bareba ibyo avuga.

Amashusho abiri atandukanye, ishusho imwe A, irerekana abanyeshuri bari mu myitozo ngororamubiri, ishusho B, irerekana amashuri, ndetse hari n ibiti bikikije ayo mashuri.

Abarimu bifashisha kwigisha abana bato ururimi rw'icyongereza, hariho amagambo parensi berekana umugabo yitwa Jabo, umumama akitwa Isimbi, ciridireni, Ganza, Keza, Shema na Isaro

Abantu bafite icyapa ndetse hari n'umugabo uhahagaze ufite mikoro birasa n'aho ari kuvuga. Iki cyapa cyanditseho ngo Repubulika y'u Rwanda, Intara y'Uburasirazuba Akarere ka Nyagatare. Gutangiza ibikorwa bya siporo n'umuco mu mashuri, umwaka wa 2024-2025, Akarere ka Nyagatare.

Udukarido ndetse n'amabara atandukanye ndetse n'imibare abarimu bifashisha bagira ngo bigishe abana babo, isomo ry'imibare.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigaga isomo ry'imibare, harimo amarate, agasibisho, ikaramu y'igiti ndetse n'agakoresho kifashishwa mu guca uruziga.

Ishuri ririmo umurezi wambaye itabuririya y'umweruru ndetse ari kumwe n'umwana wambaye agapira k'umukara, ari kwandika ku kibaho, arasa n'aho ari kumusobanurira, ibyo yandika.

Ibikoresho by'amoko atandukanye abarimu bifashisha mu kwigisha abanyeshuri amasomo, harimo ibyo bifashisha bigisha isomo ry'imibare, kumenya amabara menshi atandukanye ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ibikoresho abana bifashisha barimo kwiga hari udutenesi bifashisha bari gukina amabalo imipira y'amaguru, hari amakaramu y'igiti hari n'ibyo gusibisha.

Abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano ndetse bambaye n'udupfukamunwa, bicaye bafite udupapuro two kwandikaho ndetse hari n'abarimo kwandika, aho bari kandi hari ububati bugaragaza ko habikwamo ibitabo.

Igipangu kinini cyubatswe n'amatafari ahiye, gikikijwe n'ibiti, hari ikibuga bakiniramo barahubatse akantu bakoreramo imyitozo ngororamubiri.

Ikigo cy'abanyeshuri cyubakiweho uruzitiro rw'ibyuyuma, uru ruzitiro rurinda abanyeshuri kuba bajya hanze y'ishuri.

Inzu y'amatafari ahiye. Hari igipapuro kiriho urutonde rw'ibikoresho byifashishwa mu nzu y'ubushakashatsi, ibi bifasha abanyeshuri gusobanukirwa neza ibi bikoresho nuko bikoreshwa.

Ikigo cy'amashuri hahagaze abanyeshuri mu kibuga, imbere yawo harimo akantu kubatse gakikijwe n'indabo, mo imbere hagati harimo ibitaka, imbere yako haru umumama uri kugenda.

Ikigo cy'amashuri yubakishijwe n'amatafari ahiye, harimo ikigega gifata amazi y'imvura, ndetse gikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, hafi yabo bari umuri muhinze, inyuma y'uwo muririma kandi hagaragara inyubako z'amoko atandukanye.

Abantu bari mu cyumba cy'ubushakashatsi, bambaye utujire tw'amabara atandukanye, bambaye ingofero, abandi nta zo bambaye bari ahantu mu kigo.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru, ubona bambaye urupfukamunwa, abandi ntabwo bambaye, barasa naho ari abareze, bose bafite mudasobwa.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bambaye udupira tw'icyatsi n'amapantaro y'umukara, bose bazamuye amaboko, bakikijwe n'ibiti, hirya inyuma yaho hari amashuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bari ahantu hamwe bamwe baricaye abandi barahagaze muri bo harimo umuntu ugaragara nkaho atari umunyeshuri kuko nta mpuzankano yahambaye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bahagaze munsi y'ibiti. Imbere yabo hari umugabo afite ibiti abifatiye hejuru birasa naho ari kubasobanurira ibijyanye n'ibyo biti.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ibiti muri iki kigo kandi hahagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano, imbere y'aba banyeshuri hahagazeho umuntu asa naho afite icyo ari kubabwira kandi iki kigo kirimo idarapo ry'igihugu cyacu ndetse hari n'ubusitani muri iki kigo.

Igishushanyo kigaragaza urusengero, gikikijwe n'ibiti hari utuyira tugiye ahantu hatandukanye, hari n'udutebe two kwicaramo, hafi y'ibiti hari n'ikibuga.

Ishuri hicayemo abanyeshuri bari kwiga, harimo abasore n'abakobwa bamwe bari kwandika abandi bari gusoma mu makayi.

Abantu bicaye mu matente imbere yabo hahagaze umugore n'umugabo, bambaye imyenda igaragaza ko barangije ikiciro cy'amashuri.

Ishuri ririmo abanyeshuri bicaye mu matsinda atandukanye, birasa n'aho bari gusobanurirana ibyo bize kandi birasa n'aho bari gukora umukoro bahawe.

Icyumba kinini cy'Ishuri cyicayemo abanyeshuri. Aba banyeshuri kandi bafite mudasobwa, birasa naho bari mu bushakashatsi.

Abasore n'inkumi bicaye, imbere yabo hari ameza, bose bafite amakayi ndetse n'impapuro barimo kwandikaho.

Icyumba kinini cyicayemo abantu bambaye udupfukamunwa bose, kandi imbere yabo hahagaze umugabo, muri abo bantu na bo hahagazemo undi muntu, birasa n'aho ari gusubiza cyangwa se ari gutanga igitekerezo yabajijwe.